Abantu benshi bari mu muhanda. Bigaragara yuko, hari ahantu bari bahurijwe ariko bakaba bahagaze hanze. Harimo ababyeyi n'abasaza bigaragara ko, ari abantu bakuze, barasa neza cyane, bambaye imyenda myiza, ndetse bigaragara yuko baberewe.

Ni abakobwa bari guhamiriza ariko haragaragara cyane uw'imbere, yambaye imyenda myiza cyane izwi nk'imikenyero, ndetse yambaye urunigi mu ijosi, yambaye n'akandi ku kaboko k'umukara, biragaragara ko yaberewe rwose, n'inseko yiwe igaragaza ko yishimye.

Inzu igaragara nkaho nta kindi kintu kirimo usibye igikoresho cya kinyarwanda kibazwa mu mbaho, dukunda kwita umuvure, bawifashisha bari kwenga ibitoki.

Ku muhanda hari inyubako zishoreranye zizwi nk'inyubako z'ubucuruzi. Hashinze ibiti binyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Hejuru ku biti hariyo abantu buriye bigaragara y'uko bari mu gikorwa cyo gutanga umuriro.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, afite terefone mu ntoki, yambaye impeta ku kaboko bigaragara yuko ari kumwe n'abandi bantu bicaye ku ntebe, nabo umwe muri bo ari kureba muri telefone, abandi nabo bahugiye mu bindi bintu ariko bari kumwe na we.

Urujya n'uruza rw'abantu, bigaragara nkaho bahujwe n'ibikorwa remezo, aho twakwita yuko baje gukora umuganda. Bitwaje ibikoresho bitandukanye harimo: amasuka, imihoro n'ibindi byinshi. Aho bahuriye mu gikorwa rusange kitwa umuganda.

Umusore usa neza cyane, yambaye ikabutura y'umweru, imbere y'iwe hateretse ibikapu bibiri, hirya naho hateretse ibindi bikapu, yicaye ahantu ari kurebareba imbere, biragaragara y'uko yishimye kandi ameze neza.

Umumotari uri mu muhanda. Atwaye umugenzi ari kugenda mu muhanda w'umukara ,uzwi nka kaburimbo. Inyuma ye hari umunyonzi uri ku igare. Na we bari kumwe muri kaburimbo. Ni umuhanda ukeyeye, bigaragara yuko harimo ibinyabiziga bikeya.